Inzu nini isakaje amabati atukura hariho imiryango myinshi iteye amarangi y'umweru, hari n'ikindi kigega cyubatse cyuruziga kizengururutse ibyuma hejuru.

Ku mugezi hariho abana benshi baje kuvoma, harimo abafite indobo, utuvido dutoya ndetse n'amajerekani, hari n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru, urimo gufungura amazi.

Abana batatu b'abakobwa, barimo uwambaye umupira w'umweru n'uwambaye ishati y'ubururu, bicaye ahantu hafi y'ahantu hari igikuta giteye sima, bari hafi y'ahantu hari n'igiti kinini cyane.

Abaturage benshi harimo abakecuru n'abasaza, bicaye muri pasiparumu, inyuma hari imodoka ifite ibara ry'umweru, hari itente rinini ry'umweru, hari inzu iteye amarangi y'umweru, hejuru hariho anteni ya kanari.

Umugabo n'umugore ,umugore yambaye ikanzu, umugabo yambaye ipantaro n'ikote bisa, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Navigetingi Taransishoni, abana bafite igipapuro mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Wodi Herifu oruganizashoni.

Abagore n'abagabo bambaye imipira y'umweru, harimo abagabo bambaye amakoti y'umukara, bahagaze hamwe bari kwifotoza bari kumwe n'umuzungu, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho RBC.

Umwana w'umuhungu wambaye imyenda y'ishuri, yambaye ishati, y'umuhondo ikabutura y'ubururu. Afite ibirahure bibiri by'amazi mu ntoki, hirya hari umugezi, hari n'abandi bantu b'abana bahagaze benshi.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri, imbere ye hari ibase iteretse kuri kandagira ukarabe, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye, hariho urugi ruteye irangi ry'umutuku.

Kwa muganga harimo umugore wambaye agapfukamunwa k'umweru, yiteze igitambaro mu mutwe, hari n'undi begeranye, harimo imashini ya bomboni ifasha abantu guhumeka ibongerera umwuka.

Abagore bambaye imyenda y'umweru, bari ahantu muri sale harimo abateruye abana, sale irimo abagabo bambaye imipira y'umuhondo, bari guha abana amata.

Abana benshi bicaye ahantu muri sare barimo kureba ikintu imbere, bari guseka harimo uwambaye umupira w'umweru, uwambaye umupira w'umutuku, uwambaye ikote, ndetse n'undi wambaye agapira k'umweru w'umukobwa.

Umusaza wambaye rinete, yambaye n'ishati y'amaboko maremare, ari kumwe n'umuganga wambaye ishati y'ubururu, ari kumupima umuvuduko w'amaraso ku kaboko.

Ku meza aho barira hariho umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare irimo imirongo y'umweru, yambaye n'agapira k'umukara ari gushyira ibiryo ku yindi sahani, hepfo hari ikirahure cy'amazi aho kuri ayo meza.

Umuganga wambaye umupira w'umweru, yambaye agapfukamunwa k'umweru, ari gutera urushinge, umugore nawe wambaye agashati k'umweru, yambaye agapfukamunwa k'umweru, yashyize rinete ku ishati, inyuma ye hari undi mugabo uhahagaze.

Imbuga y'igitaka harimo inzu isakaje amabati y'ubururu, iteye irange ry'umweru, hafi y'aho hanze hari umurasire w'izuba, handitseho inzu y'ababyeyi materinite.

Abaganga bari muri sale harimo abagore n'abagabo, bambaye amataburiya y'umweru, imbere yabo hari ameza y'umweru, harimo umukobwa uri gusuka amazi mu gatesiteri.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yambaye rinete z'umukara, afite akuma gapima umutima ku rutugu, afite ibitabo mu ntoki, inyuma ye hari umugore wambaye ikanzu, afashe ku nda.

Umuganga wicaye ku ntebe y'ubururu yambaye itaburiya y'umweru, ari mu cyumba cy'abarwayi, inyuma ye hari igitanda abarwayi baryamaho, hepfo hari amamashini bakoresha kwa muganga.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, hariho urugi rw'ibirahure ruteye irangi ry'mweru, hejuru ku nzu handitseho "Isange One Stop Center, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina".

Inzu nini cyane iriho ibaraza rikoze mu ishusho y'uruziga handitseho “Geriatric Centre” hari umukobwa uhagaze wegamye ku rukuta, inzu iteye amarangi y'umweru hirya ku rukuta hari agatebe k'ubururu.

Abagabo n'abagore bambaye amashati y'umweru bari kugenda binjira mu kizu kinini cyane, hejuru handitseho KFH RWANDA, hariho icyapa cyanditseho farumasi.

Imbuga irimo amapave, kuri porotayi hari icyuma kinini kihatambitse, mu mbuga haparitse imodoka z'umukara n'iz'umweru, hari igitage kinini cyane.

Kwa muganga mu cyumba harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'umweru, yambaye agapfukamunwa k'umweru ari gusuzuma umwana urwaye, yambaye ubusa hejuru, ari kumusuzuma ku mutima, hari n'undi wazanye n'umwana kwa muganga.

Kwa muganga mu cyumba, harimo umuganga wambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru, imbere ye hari ameza arambitseho ibikoresho bakoresha kwa muganga, hari umugore nawe wambaye agapfukamunwa k'umweru, yazanye umwana kwa muganga, muganga ari kumusuzuma.

Icyumba bakoreramo masaje harimo umugore uryamye, yambaye akabogisa k'umukara, hari undi mugore uhagaze wambaye umupira w'umukara, arimo kumukorera masaje afite igitambaro mu ntoki ari gukoresha.

Umukobwa wambaye ipantaro ya kora imufashe, yambaye n'agasengeri k'umweru, ari gukora siporo, yazamuye amaboko, imbere ye hari ivase irimo ururabo.

Umugabo uri muri siporo yambaye isengeri y'umweru afite gurude ari kunywa amazi, ahagaze ahantu arimo kuruhuka, hirya hari ubusitani.

Umugabo uri muri siporo yambaye inkweto z'umukara zirimo umweru, yambaye kora y'umukara n'agakabutura n'umupira w'umukara, ari gukora siporo mu nzu ari gukureramo siporo harimo imipira bakina.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara yambaye isaha y'ubururu ku kaboko, afite icupa ry'amazi ari kumwe yicaye hano ari kuruhuka yari ari muri siporo.

Icyumba cya masaje, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, hari undi muntu w'umugabo uryamye ku gitanda, yazamuye akaguru hejuru, umuganga arimo kugakanda.

Abagore barimo gusarura, bari mu byatsi byinshi, harimo abambaye ibitenge, bambaye n'ibindi bitenge mu mutwe, bipfutse umutwe bose.

medicoplce a veri peperment margold lemon bonla venda rosmery bezel

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ishati y'amaboko maremare, yambaye agapfukamunwa k'umweru, afite udukarito akuramo imiti, imbere ye hari uducupa twinshi tuhateretse tw'umukara, dufite imifundikizo y'umweru turimo umuti.